Amabara arimo harimo umukara ibara ry'umuhondo umutuku na sima ifite ibara ry'igitaka n'amatara acanye asa umuhondo.

Ni icyapa kigaragaza ahantu hari resitora na bare hasi yaho hari iduka ricuruza imyenda.

Televiziyo iri mu mabara y'umukara, ubururu, umweru n'umuhondo, hirya y'aho hari amabara y'icyatsi n'umukara, ateretseho ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye.

Mu ifoto harimo imashini ikoreshwa mu kwishyura, iyo mashini irasa umukara, hariho amabuto asa umutuku, icyatsi n'umuhondo, uyifashe mu ntoki afite inzara zisa umutuku n'umweru, hirya yaho umuntu ufite ikarite, ikarite iri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Bahamas pub mu mabara y'umweru n'umutuku, hasi hari amabara y'umweru, ugarutse hino gato hari amabara y'umuhondo, hejuru hari canal +, yaho gato hari ama esikariye y'umukara, wambutse hakurya handitse polclinic de plato mu mabara y'icyatsi.

Ameza y'umweru ariho igitambaro cy'ubururu n'intebe y'umukara, hari televiziyo, hari furigo. Kuri kontwari hariho umugabo wambaye ikote ry'icyatsi.

Icyapa gishushanyijeho icupa rya Mitsingi, harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, harimo umutaka w'umu ejenti wa emutiyeni, harimo imodoka y'umweru, imodoka y'umukara

Imigani igera ku icumi ,imigati ya penkupe iteretse ku meza , imeza asa igitaka inyuma yaho hari amabara y'umweru na orange n'icyatsi na pink.

Imeza y'umweru iteretseho agapaniye karimo amagi atatu n'akabogisi karimo kirida zigera kuri eshanu, hirya yaho hari ibara ry'ikigina.

Muri iyi foto harimo ibinyobwa ji ya mango, ji ya marite, ji ya embe aaa hari amajyane ateretse ku meza, hari n'umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, umukobwa wambaye ishati y'ikoboyi n'ikanzu y'icyatsi, mu ntoki ze afitemo amafaranga magana atanu, iruhande rwabo hari firigo yanditseho mukamira.

Iduka ricuruza ibijyanye n'amata, hari umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku n'inkweto z'icyatsi, afite akajerekani imbere ye n'igikapu cy'umukara, imbere ye hari intebe, hari igikoresho gikoropa amazi aba yahametse cyangwa amata.

Umukobwa wambaye ingofero n'ishati y'ubururu, utuziga tw'umweru ku maboko hariho amabara y'umuhondo umweru n'umukara agiye guterura akajerekani k'umuhondo gapfundikijwe umufuniko w'umutuku.

Amacupa yabugenewe atwarwamo amazi yo kunywa, harimo ingufuri zifunze.

Umwana w'inzobe ufite igifuniko cya telefoni mu ntoki, wambaye agapira karimo amabara ya pinki gashushanyijeho umugabo wambaye inkweto zitambitse, inyuma ye hari abandi bagabo babiri bambaye amajire y'umutuku.

Isahani y'umweru iteretseho ibidiya bifunikishijwe mu gasashi k'umweru.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umweru n'umukara, n'ikote ry'umukara; imbere ye hari umusore wambaye umupira w'ubururu bwijimye n'ipantaro y'umukara. Hari icyuma kivoma amata, hari ibyo kunywa bidasembuye birimo ji na fanta.

Icyansi kirimo amata umufuniko w'akabuni nijage bapimisha amata.

Ameza asa igitaka ateretseho amajyane harimo ibara ry'umuhondo n'igitaka inyuma yaho hari icyo kunywa kitwa inaji dirinki mu mabara y'umukara n'ubururu hirya yaho hari ikindi kinyobwa kiri mu mabara y'igitaka gipfundikije umufuniko w'umukara.

Biswi zigera kuri eshatu, ziteretse ku isahani y'umweru, ameza asa umukara arimo n'amabara y'umweru, hariho na seriviyete y'umweru, iruhande hari igikombe gisa umukara n'umweru.

ku ifoto harimo ibyapa byamamaza equit egent mobicash rwnda reveni, hasi yaho hari abantu batatu batanga izo serivisi. Imbere yabo hari amabara yumukara n'umweru hateretse icupa ryamazi rya gibu

Kode y'ubucuruzi iri mu mazina ya Ngabonziza Jean Bosco mu kumwishyura ukoresha akanyenyeri ijana namitongo inani na kabiri, akanyeri umunani , akanyenyeri rimwe, akanyenyeri mirongo icyenda makumyabiri na gatanu, zeru gatanu urwego byandikishijwe amabara y'umukara ku cyapa cya momopeyi gisa umuhondo, umweru, umukara.

Kiyosike itanga serivise za mobayilo mani mu mabara y'umuhondo, ubururu n'umweru n'umukara; inyuma y'iyo kiyosike hari ibyatsi, imbere ya kiyosike hari umugabo wambaye ipantalo y'umukara, n'umupira urimo amabara y'umukara, igitaka n'umweru.

Ni iduka ritangirwamo serivise z'ibijyanye na Mtn hanze hari amabafure, indangururamajwi hari umusekirite ucunze umutekano w'abinjira n'abasohoka mu iduka rya Mtn.

Umukobwa wambaye ijipo ipasuye ku ruhande irimo amabara y'icyatsi, ufite ishakoshi y'ikigina, ufite telefone mu ntoki, afite imisatsi y'umukara, ahagaze kuri kiyosike ya Emutiyeni isa umuhondo, iri kwamamaza mobayiro mani taransifa, mu mabara y'umukara n'umweru n'ubururu.

Kioske ya Airtel iri mu ibara ry'umweru, umutuku mo imbere harimo umuntu i ruhande rwayo naho hari undi muntu uhagaze ku rundi ruhande hateretse icupa ry'amazi kuri icyi cyapa cya Airtel baramamaza service batanga hari imibare yanditseho akanyenyeri kabiri kabiri urwego.

Muri iyi foto harimo umugabo wambaye ishati y'icyatsi kirimo amabara y'umweru n'umukara, yambaye isaha ku kuboko, yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, iruhande rwe hari umu ejenti wambaye ijire y'aba ejenti y'umuhondo n'ishati irimo amabara y'ubururu n'umweru, afite agakapu k'umukara, iruhande rwabo hari umugabo wambaye ingofero y'umutuku n'umupira w'umukara urimo umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ishati y'umweru n'umutuku n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikabutura y'ubururu bwijimye n'umweru wijimye wambaye n'amarinete ufite terefone mu ntoki.

Kiyosike ya emutiyeni ifite amabara y'umuhondo n'umweru aha mu imbere hicayemo harimo umukobwa ufite imisatsi y'umukara wambaye ipantalo irimo amabara y'umukara n'umweru, usohotse hanze gato hari umwana uri kuza yiruka wambaye inkweto z'umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo uri mu mabara y'ubururu, wanditseho peyi wivu momo itsi izi, iruhande rwe hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, hariho ibara ry'umukara n'ubururu, ufite imisatsi y'umukara, iruhande rwabo hari undi mugabo wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'abamotari y'umukara.

Abagabo babiri umwe yambaye ikote ry'ishashi y'umukara n'ipantalo y'icyatsi iruhande rwe hari umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'umuhondo n'umupira w'ubururu n'umuhondo wanditseho momo, payi wivi momo ndetse ufite terefone mu ntoki n'ipantalo n'ipantalo y'ubururu bwijimye.

Umucuruzi cyangw abacuruzi batanga serivisi za emutiyeni mobayiro ni aba ejenti bo kumuhanda.

Icyapa cy'umuhondo cyanditsemo emutiyeni, iruhande rwaho handitseho momo. Mu mabara y'ubururu n'umuhondo.

Muri iyi foto harimo umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ijingiisi y'ubururu afite mikorofone mu ntoki, afite imisatsi y'umukara, ku mutwe we hariho amarinete, Inyuma ye hari abandi bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'ubururu bw'ijimye impande ye hariyo icyapa kiriho abanyeshuri babiri, umuhungu n'umukobwa.

Umugabo w'inzobe wakuyemo rinete wambaye ishati y'umuhondo n'umukara arimo araganira na mugenzi we wambaye umupira w'umutuku n'umweru wanditseho koka kora.

Terefone y'umukara iruhande rwayo hari indi y'umukara, uko ari babiri bameze nk'umwe agiye gusikaninga muri telefone ya mugenzi we.

Abanyamagare bari mu isiganwa, bari mu muhanda wa kaburimbo wo mu karere k'i Muhanga, ukikijwe n'ibiti ndetse n'abantu bashungereye bari kureba amarushanwa.

Icyapa kiranga kode wakwishyuriraho, ibicuruzwa imibare ni icumi mirongo inani na kane cumi na gatatu.

Kiyosike ya Eyateli, itanga serivise za Eyateli Mani mu mabara y'umutuku, umweru, n'umuhondo hariho umukobwa uri kwamamaza, wambaye ikanzu y'umutuku n'umweru, ufite imisatsi y'umukara.

icyapa gishushanyijeho momo peyi handitseho fureyi ofu caje hari kwamamarizwaho ikarita ya viza , masta cadi na mtn momo.

Imeza iteretseho ingofero ebyiri za emutiyeni, amacup abiri nayo ya emutiyene n'imipira ibiri ifunze mu mashashi, ya emutiyeni inyuma hari umugabo wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara urimo imirongo y'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'icyatsi. Ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'umweru, umupira w'umutuku n'umukara. Mu iduka, cyangwa muri kiyosike harimo umukobwa wambaye umupira wa oranje, n'amaherena.

Iduka ricururizwamo serivise za mobayiro mani, umu ejenti w'izo serivise za mobayiro mani n'umukiriya uje kwaka izo serivise, bose bambaye udupfukamunwa.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, n'ipantaro y'ubururu bwijmye ufashe ku gare risa umuhondo, n'umukara ruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'umukara, ufite telefone mu ntoki ,wambaye isaha y'umukara.

Umugabo ufite telefone ya simatifone mu ntoki wambaye umupira w'umukara urimo oranje n'umweru imbere ye hari uwundi umugabo wambaye umupira w'umuhondo ufite telefone gatoya ka matushe k'umukara. Imbere ye hateretse imashini ifite ibara ry'umukara, inyuma kumeza hateretse ikaye n'ikaramu y'ubururu.

Abagabo babiri, uw'iruhande yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, uwundi ku ruhande na we yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma yaho hari undi musore wambaye umupira urimo amabara y'umutuku n'ubururu, iruhande na none hari umwana muto wambaye umupira w'ubururu wanditseho shuwazi apu.

Ibinyabiziga bigera kuri bine bitanga serivise zibyo kurya jumiya fudu hariho abagabo bane kuri ibyo binyabiziga bambaye ingofero zabugenewe umutuku harimo n'umukara.

Ahantu bacururiza imbuto hitwa afurirarumasi maketi, hasi yaho handitse fureshi andi oruganiki, winjiyemo imbere uhera kuri wotameroni, ugarutse hanze ubona icyapa iyi buranshe ko iherereye Nyarutarama.

Ifoto iramamaza ibijyanye n'ikoranabuhanga hejuru hari amabara y'ubururu n'umweru kigali apuline no hasi niko byanditse mu mabara y'umukara na serivise batanga zirimo ibijyanye ne E-kamase mu mu mabara y'umweru n'ubururu.

Harumukobwa ufite imisatsi y'umukara uri guseka ufite amenyo y'umweru iruhande rwe hari amavuta yubwoko butatu ari mumabara y'umweru na oranje inyuma yaho hari amabara y'umutuku n'umweru n'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ingofero y'abamotari iri mu ibara ry'icyatsi n'umukara mubiganza bye harimo ikarito y'umweru ari kuvana muri bogisi y'icyatsi yanditseho kasha, ushobora kubahamagara ukoresheje nimero icyenda rimwe eshatu.

Abamotari babiri uw'imbere afite eri ase maganacyenda na cumi n'umunane ekise, uw'inyuma yambaye kasike y'icyatsi n'umukara, inyuma ye atwaye umukobwa ufite imisatsi y'umukara nawe wambaye kasike y'icyatsi n'umweru n'umupira w'ikigina n'ipantalo y'ubururu bwerurutse.

Umukobwa wicaye ufite imisatsi y'umukara ufite telefone mu ntoki wambaye kora ijya kuba umweru wijimye n'umupira w'ubururu bwerurutse.

Inkweto imiguru ibiri ye y'umu iri mu mabara y'umweru, iteretse ahantu hameze nka senkenge haru hejuru yaho handitseho homo shuze viziti wawawa kigure doti rwa, iruhande hari wani ke iri mu bara y'icyatsi, n'akagofero ka perenoweri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Ibitoki bigiye bisataguye mu bipande biteretse mu ma bogisi atandukanye afite y'umuhondo, oranje, ubururu, icyatsi harimo abantu bambaye ingofero z'umweru n'amataburiya asa ubururu bwijimye, hari n'umunzane bari gukoresha bapima ibyo bitoki.

Muri iyi foto harimo imashini ya laptop, irimo ishusho y'ibyo kurya, umugati wa keke harimh n'indimu, iruhande rwaho hari telefone irimo kwamamaza ibijyanye n'inkweto, imipira, inyuma kuri iyo bagarawundi hariho kugura doti rwa biri mu mabara y'umweru ifite bagarawundi isa ubururu.